Ibitaro bifasha abarwayi kujya kwivuza .Ababyeyi bagiye kubyara na bo bajya ku bitaro kugira ngo babyare neza .Ibitaro byiza biba byegereye imihanda, kugira ngo abarwayi bagiye kwivuza bagereyo vuba ,kandi bahite bafashwa ,bahabwe ubutabazi bw'ibanze.

Abaganga bafasha abantu benshi cyane, kubera ko barokora ubuzima bw'abantu benshi, abaganga barasanasana iminsi ikiyongera, maze ubuzima bw'abantu bukagenda neza.

Ibidodoki iyo byitaweho cyane, bitanga umusaruro mwinshi. Ibidodoki kandi bikoreshwa nk'umuti, cyane cyane iyo umuntu yahiye. Iyo kandi byeze neza babijyana ku isoko bikaba byatanga amafaranga.

Ibyatsi bya kinyarwanda birafasha cyane, kubera ko ibyatsi bya kinyarwanda bivamo imiti y'indwara nyinshi zitandukanye, bakaba babyifashisha bari kuvura izo ndwara.

Ibyatsi bya kinyarwanda ni byiza cyane kubera ko bivamo imiti umuntu akoresha atiriwe ajya kwa muganga. Iyo miti kandi iva mu byatsi bya kinyarwanda iba ari umwimerere cyane.

Imiti ya kinyarwanda ivura indwara nyinshi zitandukanye. Aho umuntu ashobora kwiha ubutabazi bw'ibanze atabanje yajya kwa muganga, agakoresha iyo miti ya kinyarwanda ari kwivura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo ifasha abantu benshi cyane, kubera ko iyo umuntu arwaye ayivuguta maze agasomaho akumva arorohewe, iba ari umwimerere cyane, kandi ifasha umuntu kuko iba ari ubutabazi bw'ibanze.